Kwegereza abaturage serivisi z'ikoranabuhanga ni ingenzi kubera ko bibafasha gusobanukirwa byinshi birambuye ku ikoranabuhanga ryabo. Ni byiza rero ko tubegera tukabafasha kugira ngo babashe gusobanukirwa kubikuza amafaranga kuyabitsa ndetse no kubasha gukora byinshi bitandukanye ku ikoranabuhanga ryabo bafite.

Ni ingenzi kwegereza abaturage serivisi z'ikorana n'ikoranabuhanga kugira babashe gusobanukirwa byinshi birambuye ku ikoranabuhanga baba bafite, ni byiza ko tugomba gusobanurira abaturage ikoranabuhanga bafite, kugira ngo babashe kurikoresha bamenya kwigurira amayinite, kubika no kubikuza ndetse batanabishobora bakagana ababizobereyemo bakabibafashamo.

kwegereza abaturage serivisi zikorana n'ikoranabuhanga ni ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, twavuga nk'abantu bafasha abaturage kubikuza amafaranga kuyabitsa ndetse bakabafasha no gusobanukirwa byinshi bitandukanye ku ikoranabuhanga ,ni byiza ko twegera abaturage bacu tubegereza ibikoresho bimwe na bimwe bitandukanye bikorana n'ikoranabuhanga kugira ngo babashe ,gusobanukirwa neza ikoranabuhanga bafite uko rikora.

Kwegereza abaturage serivisi z'ikorana n'ikoranabuhanga ni ingenzi kubera ko bibafasha gusobanukirwa ikoranabuhanga bafite uko rikora, ni byiza ko tugomba gushishikariza abaturage kugana abahanga mu bigendanye n'ikoranabuhanga, kugira ngo babashe gusobanurirwa byinshi bitandukanye bityo babashe gutunga ikoranabuhanga bazi no kurikoresha neza.

Kwegereza abaturage serivisi zikorana n'ikoranabuhanga, ni ingenzi kuko bibafasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye bigendanye n'ikoranabuhanga. Ni byiza ko dushishikariza abaturage, kugana abahanga mu byerekeranye n'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gusobanukirwa neza, uburyo bashobora kubika bakanabikuza amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga.

Abaturage basobanura ko ari byiza gukorera hamwe, kuko bibafasha kwiteza imbere ndetse n'umusaruro wabo ukiyongera kuko baba bashyize imbaraga zabo hamwe. Ni byiza rero ko dushishikariza buri wese kwisunga mugenzi we, kugira ngo bakorere hamwe bityo iterambere rya buri muntu wese rizamuke nta kibazo brhuye nacyo.

Abibumbiye hamwe cyangwa se abakorera hamwe, ikiizwi nka koperative mu ndimi z'amahanga, basobanura ko ari byiza gukorera hamwe kubera ko ari ingenzi, kuko bibafasha gutera imbere ndetse no guharanira iterambere ry'umuturage. Ni byiza rero gushishikarizwa gukorera hamwe kugira ngo tubashe kubona umusaruro n'iterambere ryacu ribashe kugwira neza.

Bare nyinshi zitandukanye ziba zirimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ababagana neza twavuga: nk'amezi aterekwaho ibyo kunywa, ibyo bikombe bakoresha barimo basukamo ibyo kunywa, imiheha ndetse n'intebe bakoresha bicaraho. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwakira neza abatugana.

Skol ni inzoga inyobwa na buri umwe wese uyishimira kandi akaba ayikunda. Ni ikinyobwa kiza, niyo mpamvu buri umwe wese ashishikarizwa kukinywa, ariko ari hejuru y'imyaka cumi n'umunani. Ni byiza ko turinda abana bacu inzoga bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kubera bibangiriza mu bwonko, natwe bakuru tunywa inzoga ni byiza ko tunywa mu rugero kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu twe kubabushyira mu kaga.

Ubucuruzi bw'amage ni ubucuruzi bwiza kuberako batanga amafaranga menshi ,abenshi bakunda amagi kuko bayakoramo umuleti bakaba bayarya atogosheje ndetse akabavura n'indwara zitandukanye nk'inkorora, ni byiza rero ko tugomba kugira ibicuruzwa byose kugira ngo tubashe gufata neza abatugana babashe kubona ibyo bakeneye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amavuta yo kurya, ayo kwisiga, Gereserine yo gufunguza amavuta, korogati ,amajyane, ni byiza ko abacuruzi bagomba kugira ibicuruzwa byose kugira ngo ababagana babashe kubibona ku gihe ndetse babashe no kubona amafaranga nta handi agiye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, abakiriya babasha gukenera. Abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa kugira ibicuruzwa ibyo aribyo byose abakiriya babasha gukenera kugira ngo ababagana babashe kubibonera ku gihe bityo nabo babashe kunguka nk'amafaranga nabo baba babashije kubacaho.

Igihe Abapadiri bari kwamamaza ijambo ry'Imana baba bafite ibibaranga kugira ngo ubabonye wese abashe gusobanukirwa aba ari bo, twavuga nk'umusaraba baba bafite, icyapa cyanditseho ijambo ry'Imana ndetse n'imyambaro yabo ibaranga iyo baba bambaye; ni byiza rero ko bagomba kwambara imyambaro ibaranga kugira ngo tubashe gusobanukirwa igikorwa barimo neza.

Mu byumba bikorerwamo amasengesho bizwi nk'insengero, haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kuhagana twavuga nk'intebe bicaraho, imikeke yo gupfukamaho igihe bari gusenga; ni byiza ko insengero zigomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kubona abakirisitu bahagije.

Urusengero ni inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye nko kuba abakristu baza gusengeramo ndetse abakristu bakaba baza no gukoreramo ubukwe baganye padiri kugira ngo babashe kubasezeranya. Ni byiza ko twegera padiri cyangwa se pasiteri kugira ngo abashe kudusezeranya; bityo tubashe kugira umuryango mwiza tubashe no gukiranukira imana.

Abakora umurimo w'imana bazwi nk'abapadiri ndetse n'abamasera basobanura ko ari ingenzi kwegera abaturage bakabumvisha ko ijambo ry'imana ari ryiza kugira ngo babashe kuyigana babashe no gusobanukirwa agaciro imana ifite ni byiza rero ko natwe abaturage twumva agaciro k'imana ndetse tukamenya n'ibyo idukorera kugira ngo tubashe kuyiha icyubahiro cyayo.

Ibyumba bikorerwamo amasengesho bizwi nk'insengero, haba arimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisitu baze kuhagana bishimye, twavuga nk'intebe abakirisitu bicaraho, ameza bashyiraho Bibiliya zabo; ni byiza ko insengero zose zigomba kugira aho abakirisitu bicara kugira ngo bigabanye akajagari mu nsengero, dore ko ari inzu y'ibivugirwamo ijambo ry'Imana.

Mu byumba bikorerwamo amasengesho haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kuhagana nta makemwa twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa igihe bari kuvuga ijambo ry'imana, intebe abakirisitu bicaraho ndetse n'aho barambika bibiliya zabo igihe bari kumva ijambo ry'imana.

Umuryango wa karitasi mu Rwanda, ni umuryango ufasha abaturage mu buryo bugiye butandukanye, ufasha abaturage ubaha imyenda yo kwambara, ibyo kurya ndetse ukanabafasha mu bindi bintu bigiye bitandukanye bagira inama kugira ngo babashe kwivana muri ubwo bukene be gukomeza gufashwa. Ni byiza ko tugana uyu muryango igihe twahuye n'ibibazo by'inzara kugira ngo babashe kurengera ubuzima bwacu babashe no kuduha inama zitandukanye tubashe kubaho neza.

Mu byumba bikorerwamo amasengesho bizwi nk'insengero, hakenerwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kuhagana ari benshi, twavuga nk'intebe bicaraho ndetse n'abo bagomba gushyira Bibiliya zabo igihe bari kumva ijambo ry'Imana; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije mu nsengero kugira ngo abakirisitu batugane ari benshi kandi babashe kwamamaza ijambo ry'Imana neza.

Mu nsengero zitandukanye haba harimo ibikoresho byinshi, byifashishwa kugira ngo urwo rusengero rubashe kuganwa. Twavuga: nk'intebe zifashishwa abakirisitu bicaraho ndetse n'ameza aterekwaho Bibiliya, Pasiteri cyangwa se Padiri arimo asomeramo. Ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije mu nsengero kugira ngo tubashe kubona abakirisitu beza kandi babashe kutugana ari benshi.

Mu nsengero haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kugira ngo abakristu babashe kugana urwo rusengero, twavuga nk'intebe abakirisitu bicaraho, Bibiliya bifashisha ndetse n'ameza aterekwaho Bibiliya padiri cyangwa se pasiteri akoresha ari gusoma.

Icyumba gikorerwamo amasengesho kizwi nk'urusengero, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abakirisitu babashe kuhagana, twavugaganye nk'intebe abakirisitu bicaraho, Bibiliya bakoresha bari gusoma ijambo ry'imana ndetse n'indangururamajwi bakoresha igihe bari kuramya no guhimbaza imana. Ni byiza ko insengero zose zigomba kugira ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo ijambo ry'imana ribashe kugera ku bakirisitu.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli .ni byiza ko bigomba kugira ahantu ho kuruhukira igihe abakiriya bamaze kurya .ni byiza ko bigomba kugira pasiparumu abakiriya bicaramo, pisine bogeramo igihe bamaze kurya, kugira ngo babashe kwidagadura ,ndetse n'ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli haba harimo ibintu byinshi bibafasha abakiriya kuza kuruhuka neza twavuga nka pasiparamu cyangwa se ubusitani bicaramo igihe bamaze kurya, ibiti bitanga akayaga, intebe bicaramo ziba ziri mu busitani ndetse na pisine bogeramo igihe bamaze kurya ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugirango ngo tubashe kwakira neza abatugana.

Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, mu byumba bakiriramo babagana ha barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kwakira abo bakiriya babo. Twavuga nk'intebe mukiriya yicaraho, ameza atekwaho ibyo kurya, amasahani yifashishwa mu gushyiraho ibyo kurya, ibikombe bishyirwamo ibyo kunywa, ndetse n'ibyo bifashisha barisha bizwi nk'ibiyiko cyangwa se amafirosheti. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kubona abantu benshi batugana.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ibyokurya bizwi nka hoteli haba hari ibintu byinshi bitandukanye bifasha abakiriya kuza kuruhuka neza, twavuga nka pasupalamo yicaramo abakiriya, ibiti bicaramo barimo batora umuyaga, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kuruhuka neza.

Mu bigo bitandukanye bitanga serivisi z'ibyo kurya, mu cyumba umukiriya ajyamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe kubona serivise, twavuga nk'ameza batekarekaho ibyo kurya, intebe yicaraho. Ni byiza rero uko tugomba kugira ibikoresho bihagije mu buriro kugira ngo tubashe kubona abakiriya beza kandi batugane bishimye.

ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli hari ibyumba byabugenewe abakiriya baruhukiramo igihe bananiwe iyo bamaze kurya, ibyo byumba biba byiganjemo ibikoresho bitandukanye kugira ngo umukiriya aze kuruhuka neza twavuga nk'igitanda, intebe yo kwicaraho, ndetse na supaneti yo kumurinda imibu kugira ngo aze kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutarara mu inzitiramubu.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, mu byumba bakiriramo abakiliya, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira umukiliya neza, twavuga nk'intebe umukiliya yicaraho, ameza aterekwaho amasahani ajyaho ibyo kurya, ndetse n'amazi yo koga intoki, igihe agiye kurya. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije aho twakirira abakiliya bacu kugira ngo babashe kutugana neza.

Mu nyubako za hoteli haba harimo ibyumba byabugenewe abakiliriya bajya kwihereramo igihe umukiriya abishatse. Ni ubwiherero bwa kizungu bukoreshwa. Ni byiza ko amahoteli yose agomba kugira ubwiherero bwiza kugira ngo abahagana babashe kugira ubuzima bwiza, birinde n'indwara zitandukanye ziterwa no gukoresha ubwiherero budafite isuku.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya ikizwe nka hoteri mu cyumba umukiriya bamwakiriyeriramo hahaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira neza, twavuga nk'intebe yicaraho, ameza atekwaho ibyo kurya, amasahani bashyiramo ibyo kurya, ibyo barisha, ikizwi nk'ibiyiko cyangwa se amafurusheti; ni byiza rero ko tugomba kwakira neza abatugana ndetse tukagira n'ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwakira neza abatugana.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ibyo kurya bizwi nka hoteli; mu byumba bakiriramo abagana harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa; kugira ngo babashe kwakira ababagana; twavuga nk'ameza aterekwaho ibyo kurya, intebe bicaraho, amasahani bakoresha barimo bashyiraho ibyo kurya. Ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira abatugana babashe kwishima ndetse banatahe nta kibazo bafite.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, mu byumba bakiriramo abakiriya haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira ababagana neza, twavuga nk'intebe bicaraho igihe bategereje ibyo kurya; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe guhaza abakiriya bacu.

Hoteli zigiye zitandukanye ziba zifite ibikoresho byifashishwa kugira ngo ababagana babashe gusobanukirwa neza no guhabwa serivisi nziza kandi yuzuye, ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho bihagije nk'intebe abatugana bicaraho, ubusitani bicaramo baruhuka ndetse n'ibishushanyo bigaragaza akazi dukora kugira ngo babashe gusobanukirwa neza be kuyoba.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, haba hari ibyumba biza gushyirwamo abamaze gufata amafunguro kugira ngo babashe kuruhukiramo, muri ibyo byumba haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira uza kuruhuka aze kumva ameze neza, twavuga nk'igitandar aryamaho, itara riza kumumurikira ndetse na supanete aza kwitwikira imibu kugira ngo aze kurinda ubuzima bw'iwe.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyokurya bizwi nka Hoteli, hari ibyumba byabugenewe bashyiramo abakiriya igihe bamaze kurya kugira ngo babashe kuruhuka, muri ibyo byumba hamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwakiganye abashe kuruhuka neza, twavuga nk'igitanda, intebe yicaraho, ameza yo gushyiraho ibikoresho byiwe, ni byiza rero ko tugomba kugira ibikoresho byuzuye, kugirango ngo tubashe gufata abatugana neza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ibyo kurya bizwi nka hoteli, hari ibyumba byabugenewe bashyiramo abakiriya igihe bamaze kurya bakaruhukiramo. Muri ibyo byumba haba harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kuruhuka nk'igitanda cyo kuryamaho, ndetse n'amashuka yo kwiyorosa. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bitandukanye mu byumba kugira ababyinjiramo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse no kubijyamo nta kibazo bafite.

Abakora ubucuruzi bwo mu muhanda bazwi nk'abavanderi mu ndimi z'amahanga basobanura ko akazi bakora ari keza kandi kabanyuze kuko kabaha ibyo kurya bya buri munsi, ni byiza ko bagomba kwihangira umurimo kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse babashe no kubona buri kimwe cyose bakeneye nta handi hantu bagikuye cyangwa se batagiye kwiba mu mirima y'abandi.

Urujya n'uruza rw'abantu rwahuriye mu isoko ririmo ibiribwa bitandukanye nk'imyembe, amacunga, intababara, imineke, watermelon. Ni byiza ko amasoko yose agomba kugira ibicuruzwa byose kugirango urujya n'uruza rw'ababagana rubashe kubona ibyo rukeneye byose.

Abakora umwuga w'ubucuruzi bw'imboga harimo karoti, intoryi, inyanya n'amashu basobanura ko ari umwuga mwiza ubabeheshejeho mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera ko babasha kubona amafaranga atunga umuryango wabo ndetse bakabasha kubona byinshi bitandukanye babikuye muri ubwo bucuruzi, ni byiza ko buri umwe wese abasha kwihangira umurimo kugira abashe kubona icyo akeneye mu buzima bwiwe.

Isoko ryiganjemo ibiribwa bitandukanye abaturage bakunda gukenera twavuga nk'umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza kwegereza abaturage ibyo bakeneye byo kurya, kugira ngo babashe kubaho neza ndetse n'amafaranga abashe kukuzira ntahandi agiye.

Isoko ryiganjemo ibiribwa bitandukanye harimo; intoryi, ubutunguru ndetse n'imiteja. Abakora umwuga w'ubucuruzi bashishikarizwa gucuruza ibiribwa ibyo aribyo byose ku buryo ababagana babasha kubona ibyo bakeneye. Ni byiza ko umwuga w'ubucuruzi tugomba kuwukora kuko dufasha kubona amafaranga dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo tukabasha gukemura ibibazo bidusaba amafaranga.

Isoko ryiganjemo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'imyambaro igiye itandukanye, twavuga nk'ibiribwa cy'amashu inyanya, karoti intoryi, ndetse n'insinda. Ni byiza ko abacuruzi bagomba gucuruza ibintu ibyo aribyo byose abakiriya bagomba gukenera, kugira ngo babashe kubona amafaranga menshi bityo babashe kubona uko bibeshaho.

Abakora umwuga w'ubucuruzi basobanura ko ari byiza kugira ibintu byose abakiriya bakeneye kubera ko bibafasha kubona amafaranga menshi kandi atubutse. Ni byiza ko bafata icyapa bakakimanikaho ibintu byose bacuruza kugira ngo ababagana babashe kubona ibyo bafite ndetse babashe kumenya n'ibyo baka.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare basobanura ko umwuga bakora ari ingenzi kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bakomeza basobanura ko ari byiza kuko babona amafaranga ababeshejeho, bakabasha kubona buri kimwe cyose bakeneye mu buzima bwabo. Ni byiza ko tugomba kwihangira umurimo kugira ngo tubashe kubaho neza.

Abakoresha imodoka mu muhanda wa kaburimbo basobanura ko ari byiza gukoresha imodoka mu muhanda umeze neza ndetse utarimo n'imikuku, kubera ko bibafasha kwirinda impanuka zigiye zitandukanye ziterwa no kutabona imihanda myiza; ni byiza ko imihanda ya kaburimbo tugomba kuyikwirakwiza ahantu hose kugira ngo twirinde impanuka ziterwa no kuba hari imihanda mibi.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare basobanura ko umwuga wabo ari mwiza kuko ubafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakomeza basobanura ko babona amafaranga yo kwibeshaho, yo gutunga umuryango ndetse bakabasha no kubona amafaranga yo kwizigama, bashishikariza buri munyarwanda wese kuba yashaka umurimo akora kugira ngo abashe kwiteza imbere bityo ubuzima bwiwe bubeho neza.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Basobanura ko ubahereza amafaranga bifashisha bakabasha kubona icyo kurya, kwambara, ndetse bakanizigama. Basobanura ko ari ingenzi ko tugomba gushaka akazi ko gukora, kugira ngo tubashe kubona imibereho yacu ya buri munsi.

Abakoresha ibinyabiziga harimo imodoka ndetse na moto basobanura ko gukorera mu mihanda ya kaburimbo ari byiza kuko bibafasha kwirinda impanuka zitandukanye ziterwa no gukorera mu mihanda mibi, ni byiza ko rero ko iterambere rya kaburimbo tugomba kurigeza mu mihanda iyo ari yo yose yaba iy'byaro ndetse n'iy'imijyi kugira ngo dukomeze kwirinda impanuka zigiye zitandukanye.

Abakora umga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanuka ari umwuga mwiza ubabeshejeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko tugomba kwihangira akazi kugira tubashe kubona byinshi dukeneye mu buzima bwacu bityo twirinde kwirirwa dusabiriza ku bandi.

Abakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto basobanura aka ari akazi keza kubera ko kabatunze kakabaha amafaranga ababeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakomeza bashishikariza abaturage bose, ko bagomba kwihangira umurimo kugira ngo babashe kubona amafaranga ababeshaho ndetse babashe no kubona amafaranga abakemurira ibibazo bya buri munsi, biririnde kwirirwa basabiriza mu mihanda.